Inyubako yicayemo abantu benshi bagiye batandukanye. Harasa nk'aho harimo inama cyangwa imurikagurishwa runaka, hateguyemo ameza ku ruhande rwa buri muntu hagiye hariho amazi n'ikinyobwa cy'inyange cya ji.

mu nyubako irimo inama iteguyemo ameza yumutuku n'intebe z'ubururu harimo abantu benshi bagiye batandukanye abantu bafite impapuro imbere yabo bandikaho imbere yabantu hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'icyatsi afite indangururamajwi

Abanyeshuri babiri bicaye imbere ya mudasobwa, mwarimu wabo abahagaze inyuma bari mu ishuri ririmo abantu bagiye batandukanye, inyuma yabo hicaye umugabo wambaye ishati y'umukara kuruhande rwabo hirya hicaye umusore nawe usa nk'uri kwiga.